Aha turi kureba icyuzi, iki cyuzi kikaba gifite amazi menshi kubera ko aya mazi atagira aho atemba ajya, akaba ari yo mpamvu aya mazi atemerewe kunyobwa mu gihe atakorewe isuku, abantu bakabanza kugira ibyo bakuramo.

Ahangaha turareba amafoto y'amafi. Aya mafi aratandukanye kubera ko no ku mafoto biri kugaragara. Hari amanini, hakaba n'amato. Amafi ava mu mazi ahantu yororewe cyangwa se akaba yarabayemo mu buryo bwa karemano.

Uyu murima uhinzemo ibirayi, ibirayi mu majyaruguru y'u Rwanda bikunda guhingwa mu karere ka Musanze cyane ndetse na Burera, habamo ibirayi twita Kinigi biryoha cyane.

Ahangaha turareba urukuta. Uru rukuta rwubatse neza. Rwubatse neza kubera ko rufiteho isima, bivuze ko rukomeye kubujyo rutapfa guhirima. Impande y'uru rukuta kandi turarebaho ubwoko bw'ibyatsi, nk'imboga ndetse n'imbago.

Iyi foto iri kutwereka ahantu hari ibiti byinshi ariko nanone nta ngo tubonamo. Ibi biti bishobora kuba byaratewe cyangwa byarimejeje. Aha hantu ni heza kubera ko hari umwuka mwiza.

Aha turareba amatungo yo mu rugo ,aya matungo tuyita amahene. Aya mahene amwe araryamye andi arahagaze andi ari kurisha ibyatsi, kandi aya mahene bavugako atanga inyama ziryoshye.

Aha turareba amoko y’ibitungwa byo mu rugo. Ibi ni inkoko, inkoko zitanga amagi. Amagi afasha abantu mu mirire myiza. Mu Rwanda, tubiziho muri gahunda yo kugira ngo twirinde uburwayi.

Iyi foto iri kutwereka ibintu bitandukanye, ariko mu byo iri kutwereka harimo ubwoko bw'inzuzi. Inzuzi aba ari ibintu biva mu bihaza, ariko ku ruhande tukabonaho n'ibindi tutari gusobanukirwa. Biragaragara ko bimeze nk'amagi kandi rwose bitondetse neza mu mucyo.

Kuri iyi foto turarebaho umugabo, ahetse ibintu ku igare kandi iri gare riragaragara ko ririho ibishyimbo. Ibi bishyimbo babikuye mu murima, akaba abijyanye mu rugo, aho araza kubitunganyiriza akazabirya.

Aba bantu bari mu gishanga iki gishanga gifite amazi menshi kandi biragaragara ko gihingwamo umuceri ibishanga nk'ibi abanyarwanda bakunda kubibungabunga kubera ko ari iby'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyi nyamaswa, izi nyamaswa mureba ebyiri ziri mu ishyamba. Ntabwo twamenya niba ari muri pariki ariko ibigaragara ni uko ziri ahantu hagifite umwimerere w'ishyamba.

Ahangaha turarebaho inyamaswa. Iyi nyamaswa ihetse iyindi. Biragaragara ko ari nk'akana kayo. Biri ahantu bigaragara ko hari ibyatsi. Zishobora kuba ari byo zirya mu gihe zishonje.